Abantu bari mu nama, harimo umuyobozi umwe wicaye ku ntebe, hari idarapo y'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu icyatsi, ubururu n'umuhondo, hari amazi ku meza.

Ikibuga k'inama rusange hateguwemo ibitambaro by'ibara ry'idapu yu Rwanda icyatsi, ubururu n'umuhondo abaturage bari kumva inyigisho, umuganga uri kubaha impamyayigisho n'amabwiriza.

Isuku ni nziza mu buzima bwa muntu kuko bidufasha kwirinda indwara nka cholera, macinya n'izindi ndwara zitandukanye nk'inzoka zo mu nda, kandi umuntu abagomba gukaraba kenshi gashoboka, uvuye mu bwiherero, igihe ugiye kurya, tugomba no gutoza abana bacu gukaraba kenshi dushira kandagira ukarabe ku bigo by'amashuri, kandagira ukarayo kuri toilete kuko isuku niyo soko y'ubuzima mu buzima bw'umuntu.

Umwana w'umunyeshuri uri koga intoki kuri kandagira ukarabe, afite isabune, yambaye imyenda y'umuhondo na rouge, ari ahantu hari igiti, ari kumwe n'abandi banyeshuri bari mu kibuga.

Umuganga uri gupima abantu umuvuduko w'amaraso ni abagore batatu bambaye ibitenge by'umutuku n'umuhondo, yambaye ishati y'umutuku, bateze ibitambaro bicaye ahantu hari ibyatsi muri jaride.

Abana bari koga mu mazi yanduye mu kibaya, bambaye ubusa, tugomba kwirinda koga amazi yose tubonye kuko adutera indwara nk'inzoka n'izindi ndwara zo ku ruhu.

Abantu baje kuvoma ku gatiyo k'amazi, amagurudo atonze ku murongo w'umuhondo, abagore n'abakobwa barahagaze. Ni byiza kunywa amazi meza afite ubuziranenge, kuko biturinda kwandura indwara nyinshi zitandukanye.

Abana batatu bari ku ishuri bambaye impuzankano n'imyenda y'ubururu n'umuhondo, bari gukaraba intoki, gukaraba intoki ni byiza mu buzima bw'umuntu bimururinda kwandura indwara zitandukanye nk'inzoka na mikorobe nyinshi umuntu aba yagiye akoraho, bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umwana uri kunywa amazi kuri robine, hari ibyatsi, hari inzu iteye amarangi y'ubururu, hari n'indobo ari kuvomeramo amazi, yambaye ikabutura y'umutuku n'umupira urimo andi mabara, tugomba kwirinda kunywa amazi yanduye kuko tugira ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo inama, abaganga baba bari guha abanyabuzima imfashanyigisho nk'ukuntu bazaza bavura malariya, indwara z'abana, igihe umuturage aje amugana akamufatira ibizamini, akamuvura akamenya uko ubuzima bwiwe buhagaze.

Icyumba cyo kwa muganga bari gukingira covid, muganga yambaye agapfukamunwa n'umurwayi kugira ngo birinde imyuka mibi n'indwara zandurira mu buhumekero,...

Umwana uri gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza, yambaye ijipo y'ubururu n'agapira k'ubururu kadakeye cyane gafite ikora ry'umweru, ari guseka. Ahantu nk'aha hari ibiti, hari n'amazu.

Icyumba gikorerwamo inama, zigirwaho ibintu bitandukanye, hateretse indabo ku meza, amazi yo kunywa, abayobozi batandukanye, abashinzwe kubagira inama, abashinzwe kubaha imfashanyigisho...

Umukobwa uri kuvoma amazi mu ibuni ry'umutuku, yambaye ijipo yumukara n'agapira ka pinki, ari murugo, hanitse imyenda ku migozi n'igiti arimo guseka.

Itiyo gakondo ryo gupomba amazi, indobo, ibase, umubyeyi uri gupomba wunamye uri kuvoma amazi bari bari gupombera mu ibase.

Abagore bari mu nama, bari gukoma amashyi, barahagaze, ku meza hariho amazi, bambaye n'amabaji. Harimo n'abazungu, bari mu nama mpuzamahanga ivugwaho ibintu byinshi bitandukanye.

Abakobwa babiri umwe yihebye yifashe ku itama yambaye imyenda y'umutuku n'ingofero, undi yamufasheho yambaye imyenda y'umukara ari kumuganiriza, bari muzu mu cyumba ni byiza kuganiriza umuntu wihebye kugira ngo adaheranwa n'agahinda.

Umukobwa wari guseka yasinziriye, afite umusatsi wa plante, wambaye isengeri y'umweru afite akadodo mu ntoki ari kugasukurisha mu menyo, ni byiza gukora amasuku mu kanwa kacu bituma tugira impumuro nziza aho turi hose.

Abana bari kuborosa b’abanyeshuri. Kuborosa ni byiza ukoresheje amazi meza, biturinda kwandura amenyo n’izindi ndwara nyinshi zandurira mu kanwa bitewe n’umwanda, gukukagurika kw’amenyo n’ifumbi no kuva amaraso.

Umusore ufite akadodo mu ntoki, ari gukura imyanda mu menyo, ari guseka afite ubwanwa, yambaye no mu gatuza, kuborosa ni byiza no kugira mu kanwa hasa neza kuko biturinda guhumeka umwuka mubi.

Umuryango w'abantu batatu mama n'abana babiri umukobwa n'umuhungu. Umusore afite isahani iriho umugati n'akuma ko gukata. Umukobwa afite utudabo tubiri duteruye imboga. Mama we arikubareba ariguseka. Ni umuntu mukuru ufite imvi, yambaye na lunette. Ni umuryango wishimye.

Umugabo uri guseka wambaye umupira wa rakosite uciyemo imisitari, ari gukina dame, umukino gakondo wakinwaga n'abasaza kera, iteretse ku meza.

Umugore n'umugabo bicaye muri saro hateretse ivaze rimo indabo, bari gusoma agapapuro. Umugabo afite ibinini mu ntoki n'amazi mu kirahure ateretse ku meza.

Umugore n'umugabo bari mu cyumba, umugabo ari kunywa amazi, yicaye ku gitanda, hari umusego, yambaye imyenda y'ubururu na rinete, afite amazi mu gikombe yo kunywa kandi meza.

Icyumba cyo kwa muganga, muganga ari kumwe n'umurwayi uri hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo ine n'itanu, afite amazi mu gikombe bari imiti, muganga ufite badge, yambaye imyenda y'ubururu,

Icyumba cyo kwa muganga abantu baza kwisuzumirizamo kugira ngo bamenye uko bahagaze Imivuduko, Diyabete n'indwara nyinshi zitandukanye nka SIDA, Mburugu, n'Imitezi, abaganga bakabafasha neza kandi bakabaha n'ubuvuzi bw'ibanze.

Umugore n'umugabo bicaye mu nzu, bari muri terefone, umugore afite umusatsi wumuhondo n'umweru, umugabo afite imvi, afite ubwanwa bw'umweru, yambaye ishati icyemo imisitari, igikombe giteretse ku meza kirimo amazi, icupa ririmo ibinini, umugore afite agapapuro mu ntoki, yambaye n'agapira k'ubururu.

Umugore n'umugabo bicaye muri saro, bari gusoma impapuro, umugabo ari kunywa ibinini, ateretse ikirahure cy'amazi ku meza n'uducupa turimo ibinini, hari n'intebe n'indabo muri saro.

mu cyumba cyo kwa muganga gifashirizwamo abarwayi kugenda muganga ari kumwe n'umurwayi yamushyize mu gatebe ari kugenda. Yambaye ishati y'umweru ,ipataro y'umutuku n'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo abarwayi, umurwayi yambaye agapfukamunwa, bari kubatera inshinge za Kovide kugira ngo birinde indwara, yambaye imyenda y'ubururu, hari abakorerabushake.

Inzu yo kwa muganga bakiriramo ababyeyi bagiye kubyara, abagiye kubagwa, haba harimo ibyuma bitandukanye icyo gushyiramo umwana atatujuje amezi, ufite umwuka udahagije, haba hari abaganga bo kubafasha...

Icyumba cyo kwa muganga bakiriramo abarwaye, harimo ibitanda bisashishije imyenda y'umweru, supanete z'umweru, amarido y'umuhondo, harimo ibishushanyo biriho ababyeyi, ibitanda biryamyeho ababyeyi, harimo n'ibifite amapine na teremusi,...

Farumasi ifasha abantu kubona imiti y'ibanze imiti ya Malariya, imiti y'Inzoka, amaseromo, yo guterwa, imiti ya Diyabete n'ahantu ho kwakirira abarwayi, harimo n'imiti yo kwisiga kugira ngo bagabanye uburibwe, imiti y'abana.

Ikigo nderabuzima abantu baza kuhivuriza hari abaganga, hari ababyeyi bahetse abana, abaje gukingiza, abaje gufata imiti, hari ikirangahantu, hari abantu batwaye amazi, hari amagare, hari umuhanda.

Inzira yo kwa muganga ifatirwamo ibizamini by'abarwayi, malariya, abarwaye imivuduko, abarwaye imitima, haba harimo n'ibyuma byinshi bitandukanye by'amaraso, ibifata inkari n'ibindi.

Amazi, pome, indimu, akuma ko guterura, na metero, ibi bidufasha igihe uri kugabanya umubyibuho, gupima uko uhagaze, no kureba ingano y'umubiri wawe uko ingana.

Umusore uri muri siporo wambaye isengeri, yafashe akaboko agashyira mu mutwe, yambaye n'ikabutura, ari kugorora intugu, siporo ni nziza mu buzima bw'umuntu kuko biturinda kwandura indwara nyinshi zitandukanye, nka za rubaga impande.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo, muganga ari kumwe n'umurwayi ari kumuvura mu mugongo, bagikoreramo ibintu byinshi bitandukanye, babagiramo abarwayi b'imitima, abarwaye mu nda n'amara.

Umusore uri muri siporo uri hagati y'imyaka makumya n'ibiri na mirongo itatu n'itanu. Ari kwimena amazi mu mutwe. Yambaye isengeri y'icyatsi. Afite ubwanwa. Yambaye n'aka ba mu ntoki.

Ikibuga cyo gukiniramo umupira, umukinnyi yagize ikibazo cyo kuvunika mu ivi, muganga azanye imite ngo amuhe ubutabazi bw'ibanze nko kumugorora mu ivi, kumushyiraho barafu no kumushyiraho bande.

Siporo ni nziza mu buzima bw'umuntu, bituma umuntu akomera amagufawa, bituma umuntu agira ubuzima bwiza, bimurinda kurwaragurika, bimurinda kugira ibyunzwe bitari byiza, bimurinda ibintu byinshi mu buzima bwiwe, kuko bituma agira amagufwa akomeye, imikaya ye igakomera, akaba umuntu wirinda indwara nka diyabete, imivuduko y'amaraso, kubabara ingingo z'amagufwa n'ibindi.

Abantu bari muri siporo, bari kwinanura amaboko, uri kwiruka, ufite akuma ko guterura, abari gukina umupira n'abanyeshuri...

Umusore uri muri siporo ari hagati y'imyaka makumyabiri na mirongo itatu, yicaye mu kibuga kirimo ibyatsi by'ubururu, afashe ku maguru, ari kugorora umugongo, yambaye isengeri, yambaye n'inkweto za siporo,...

Abantu bari muri siporo rusange bambaye inkweto ipataro za siporo n'amasengeri n'imipira ya siporo, bari mu kibuga ahantu hari ibiti, hari amesikariye azamuka, bari guhabwa amabwiriza bafite n'amazi.

Umuntu uri kuribwa mu mugongo, mu mavi, mu rutugu, mu nkokora, mu kwaha, n'imiti yo kumufasha gukira, pomade yo kwisiga, ibinini byo kunywa, umuti wo kwisiga.

Umuti gakondo uri mu gikombe, witwa umuravumba, uvura indwara nyinshi zitandukanye: inzoka, amanjine n'izindi ndwara nyinshi zo ku ruhu.

Imiti iteretse ku meza, imiti y'icyatsi, iy'umutuku, iy'umweru, ivura indwara nyinshi zitandukanye, rubaga impande, indwara zo mu nda zivurwa n'abakecuru...

Ipapayi n'imbuto ziterwa umuntu arya igihe asoje kurya na mugitondo rikagirwa n'ibara ry'ubururu n'umutuku n'imbuto z'umukara cyikera mu gihe kingana n'umwaka.

Imiti w'igikakarubamba wo kwisiga igihe umuntu afite uruhu rumeze nabi, no kunywa igihe kubabara mu nda, ibinini, pomade yo kwisiga igihe umuntu yavunitse.